Umurima uhinzemo ibishyimbo ibishyimbo ndetse bishingiriye bizamukiye ku mishingiriro, hakaba harimo n'ibindi bihingwa by'amateke ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, ibyatsi by'icyatsi bigiye bitandukanye.